Umuhinzi agomba guhingira ku gihe Kandi akajya asura imyaka ye, yabona ko hari nk'icyonnyi cyayijemo agatera umuti ku gihe. Urugero nka Detani, iyo iteye mu myaka ikura neza.

Leta y'u Rwanda yitaga ku baturage ,ibohererezaga ifumbire ryo gushira ku myaka bakayuhiza, ikabaha umuti wo gutera ibigori kugira ngo biteze imbere, abayobozi bajaga kubigisha ukuntu bashiraga ifumbire ku myaka, iyo yeze bibongera umusaruro bakarushaho kwiteza imbere.

Mu buryo bwo kongera ubuhinzi bwawe kugira bwere neza ushiramo inyongeramusaruro, urugero nka Ire. Iyo uyishize ku myaka irera cyane igatanga umusaruro. Iyo byeze ukabijyana ku isoko, ukabirya, bituma ubaho neza, kuba warahinze wejeje utarumbije.

Mu buryo bwo kuzamura umusaruro ukomoka ku buhinzi bw'ibigori, iyo bari kuhira ibigo ubwa kabiri bagenda bashyiraho ifumbire. Goronome aza kwigisha abaturage ingano y'ifumbire bagomba gushyiraho.

Inaha iwacu kugira twongere umusaruro, duhingishaga ifumbire tugahingira ku gihe tugahinga imbuto y'indobanure, bityo bikadufasha kuzamura umusaruro, kuko tubaga twashizemo ifumbire imyaka irero gacana.

Inaha ubuhinzi budufasha kwiteza imbere; kuko duhingaga ibirayi iyo byeze tubijanaga ku isoko, turabiryaga. Iyo twabijyanye ku isoko tukabonamo amafaranga twishyuraga mituweli, tugatangira abana ku ishuri, tukabaguriramo n'amakayi n'inkweto zo kujana ku ishuri.

Kugira ngo wongere umusaruro w'ubuhinzi bw'inyanya ugomba guterera umuti ku gihe kandi inyanya ukazisasira. Iyo utereye umuti ku gihe mu bihingwa wahinze, birushaho kwera neza bikagira umusaruro mwinshi uhagije, ukarya ugasagurira n'isoko.

Mu buryo bwo kwirinda indwara iyo ugiye gutera umuti wambara imyenda yabigenewe nko kwambaraga ga ukambara ikote ry'akazi, ukambara agapfukamunwa, bityo iyo utera umuti ntabwo wandura. Ukaba wandura nk'izindi ndwara z'ubuhumekero.

Abanyarwanda bafite uburyo bajyaga mu mashirahamwe, bakarema nk'inzuzi bityo bigatuma bororeramo amafi, amafi bakayagurisha akabinjiriza amafaranga.

iyo twagiye mu kiyaga kurobamo amafi, turayaryaga tukayajana ku isoko bakaduha amafaranga tukayahahamo ibindi dukeneye, tukanayatanga ku ishuri bityo tukabaho neza kubera uburobyi bw'amafi.

Ikiyaga kidufitiye umumaro mwinshi cyane, kuko turobamo indagara tukazijyana ku isoko bakaduha amafaranga tukishyurira abana mituweli, tukiteza imbere tuguramo ibyo kurya bityo tukabaho neza.

Iyo abaturage bibumbiye mu makoperative bagacukura inzuzi, bororeragamo amafi, bakagarya, bakagajanana ku isoko, bakabaha amafaranga bakaguramo ibyo kurya n'imyambaro, bakarushaho kubaho mu buzima bwiza.

Mu buryo bwo kwirinda indwara inaha iwacu dutekaga indyo yuzuye; dutekaga ibirayi tugashiramo imboga ,tugashyiraramo za karoti ,kugira ngo twirinde indwara kuko iyo ibyo wabiririye wirinda indwara nturware cane cane.

Iyo utetse indyo yuzuye zituma wirinda indwara kuko iyo wariye amafi ukarya idodo bituma wirinda indwara kuko ugira ubuzima bwiza ukiririnda indwara zirimo kugwingira ukirinda kurwaza bwaki bityo umwana agakura neza nawe ukabaho mu ubuzima bwiza bwo kuba wariye indyo yuzuye.

Iyo tugiye mu makoperative tuguraga icyo kurobesha tukaja mu kiyaga tukaroba amafi iyo tuyakuyemo turayaryaga andi tukayagurisha bakaduha amafaranga tukiteza imbere.

Ikiyaga kidufitiye umumaro mwinshi cane kuko turobagamo amafi, tukayajana ku isoko andi tukayarya, tukishyurira abana ku ishuri, tugatanga mituweli kuko tuba twarobyemo amafi kandi amafi akundwaga n'abantu benshi cane.

Biba byiza iyo uriye indyo yuzuye bituma utarwaragurika kandi ukirinda indwara ni byiza rero kugaburira umwana indyo yuzuye bimurinda kugwingira ugomba kumugaburira ifi, ukamuha umuceri, ukamuha n'imboga nyarwatsi bityo ntarware bwace.

Ino aha iwacu duhingaga ibinyomoro. Iyo byeze tubigaburiraga abana kugira tubarinde bwaki. Tukabijana ku isoko, bakaduha amafaranga, tukayaguramo ibyo kurya twiteza imbere, tugatanga mituweri, tukishurira n'bana ku ishuri.

Uburyo bwo kwiteza imbere umuturage ahinga avanze imbuto. Agahinga ibitoki, agashiramo amateka, agashyiraramo ibigori. Iyo byeze ntago ahura n'inzara, ajanaga ku isoko akarushaho kwiteza imbere.

Mu buryo bwo kwiteza imbere, umuturage agenda arogeranya amafaranga. Iyo ayagwijije ajya kugura mu isoko itungo rimufasha kwiteza imbere, ririmo nk'intama. Iyo ufite intama, nta bwo wakena kandi uyifite.

Ino aha iwacu tujaga guhinga, iyo duhinze intabire duteragamo imbuto urugero nk'ibirayi ,iyo byeze turabiryaga, tukabijana ku isoko bakaduha amafaranga tukiteza imbere.

Iyo umuturage ahinze ibirayi bituma imibereho ye iba myiza, kuko arabitekaga, akabijana ku isoko, akabonamo amafaranga akayishyurira abana ishuri akarushaho kwiteza imbere.

Inaha iwacu urutoki rureraga cane, iyo twejeje ibitoki tubijanaga ku isoko tukanabirya, iyo twabijanye ku isoko baduhaga amafaranga, tugatanga mituweli, tukishurira n'abana ishuri kandi tugahahamo n'ibindi dukeneye.

Inaha iwacu duhingaga ibihingwa bitandukanye, duhingaga intoki tugahinga ibigori, iyo byeze turabiryaga tukabijana ku isoko bakaduha amafaranga, tukikura mu bukene tugatanga na Mituweli.

Ino aha iwacu tubonaga umusaruro uturuka mu guhinga, iyo twahinze tungurusumu tuzijanaga mu isoko bakaduha amafaranga cyangwa tugahinga ibirayi turabiryaga, iyo twabisaruye tukabijana no ku isoko bakaduha amafaranga.

Inaha iwacu duhingaga ibimera bitandukanye duhingaga urubingo, duhingaga n'ibiti. Iyo twahinze urubingo turugaburiraga inka, inka zikazana amase tukayafumbiza imyaka ikarushaho kwera tukongera umusaruro tukabijana ku isoko tukiteza imbere.

Inaha iwacu duhingaga amasaka, tugahinga amashaza, tugahinga ibigori. Iyo byeze, turabisaruraga, tukabirya, tukabijyana mu isoko, bakaduha amafaranga tukagaguramo ibindi bikoresho dukeneye. Tukiteza imbere, dutanga amakoperative, dutanga amatsinda kugira ngo tuzarusheho kwiteza imbere, kuko tuba twabonye amafaranga yo twakuye mu buhinzi.

Ubuhinzi bw'ibirayi inaha iwacu bureraga cane. Iyo tubisaruye turabiryaga, bakabijana ku isoko bakaduha amafaranga bakagaguramo ibindi byokurya dukeneye bityo tukarushaho kubaho mu buzima bwiza.

Inaha iwacu dukoraga ubuhinzi butandukanye, duhingaga ibigori, tugahinga intoki. Iyo ibitoki byeze turabiryaga, tukabijyana ku isoko bakaduha amafaranga tugatanga mituweli, tukaja kuguriramo abana inkweto, tukiteza imbere.

Inaha iwacu turahingaga ibirayi bikerara cyane. Iyo byeze, turabiryaga, tukabijana ku isoko, tukaguramo izindi mbuto zo tukaguramo n'amakaye y'abanyeshuri bajanaga ku ishuri, tukabaguriramo n'inkweto, tukabishyurira n'amashuri bakarushaho kubaho mu buzima bwiza.

Ubuhinzi bw'intoki bidufitiye akamaro kanini cane, kuko iyo twejeje ibitoki, tubijanaga ku isoko, tukaguramo ibyokurya, tugahinga n'ibigori, iyo ibigori byeze, tujaga kubisheshamo igikoma, tukabigurisha bakaduha amafaranga, tukiteza imbere dutanga mituweli ,tukishyurira n'abana amashuri, tukarushaho kubaho mu buzima bwiza.

mu gihingwa gitanga umusaruro, harimo nk'insina itanga igitoki. Iyo cyeze ukijyana ku isoko ukanakigaburira abana, kandi iyo wahinze n'ibidodoki na byo urabirya nturware bwaki.

Ino aha iwacu iyo dushaka ngo inka itange umusaruro, duhingaga ubwatsi tukabugaburira inka, inka nayo ikaduha umusaruro. Tugakama amata menshi tukayanywa, tukayajana ku isoko bakaduha amafaranga, tukaguramo ibindi byo kurya dukeneye.

Ibimera bituma tubona umwuka mwiza duhumeka， tugahinga nk'insina， ugateramo amateke n'ibigori， iyo ibyo bihingwa byeze， ujyana ku isoko ukarya， ukabona ubwizigame.

Umuturage ushaka kwiteza imbere abatera isombe agahinga avoka bityo iyo byeze ajyana ku isoko akarushaho kwiteza imbere.

Umworozi mwiza agomba guhinga ubwatsi inka zizaja zirarya, iyo afite iyo ateye urubingo, akabwahirira inka inka zirushaho kubaho neza, ntizicwe n'inzara.

Iyo ishamba rikoze biba byiza iyo uritemye, hagashibuka irindi rikazamuka neza, akita no kurikorera kandi tugatera ibiti bifata ubutaka ku buryo budatemba.

Ino aha iwacu dukora ubuhinzi, duhingaga amashamba, tugahinga ibirayi, tugahinga amashaza, iyo yeze tuyajanaga ku isoko bakaduha amafaranga. Ibiti iyo bikuze turabitemaga tugatwikamo amakara tukaja kuyagurisha bakaduha amafaranga tukiteza imbere.

Inaha iwacu duhinga ibitoki birera cyane, tukabijyana mu isoko bakaduha amafaranga, tukayaguramo ibyo kurya, tukishyurira abana ishuri natwe tukaguramo ibindi bikoresho, twifashisha mu urugero nk'amasafuriya, ibikombe, n'amasahani n'injerekani zo gukoresha mu rugo.

Igihingwa cy'ibijumba ni igihingwa cyera, iyo byeze tubijanaga ku isoko, bakaduha amafaranga tukayifashisha twishyura mitiweli, tunatangiramo abana ku ishuri.

Inaha iwacu duhingaga karoti, zireraga cane iyo zeze turaziryaga, tuzijyanaga no mu isoko bakaduha amafaranga tukiteza imbere tukaguriramo, abana ibikoresho tugatanga na mituweli tukarushaho kubaho neza.

Umuhinzi mwiza ni umuhinzi wita ku myaka ye, akayijanaho ifumbire, akayifuhirira mu gihe cy'izuba, bityo bikarushaho kumuha umusaruro, akayijana ku isoko, akabonamo amafaranga.

Ino aha iwacu duhingaga ibijumba, iyo byeze turabiryaga tukabijana ku isoko, bakaduha amafaranga tukaguramo ibindi byo kurya, tukaguramo n'imyenda yo kwambara, tugatangiramo n'abana ku ishuri tukiteza imbere.

Inaha iwacu ubuhinzi bw'amatunda burera cyane. Tuyagaburira abana kugira ngo tubarinde indwara, tukayajyana ku isoko bakaduha amafaranga, tukiteza imbere twikura mu bukene, tugatanga mituweli, tugakomeza kubaho neza.

Inaha turahingaga tukeza, urugero nk'ibitunguru iyo byeze turabiryaga, tukabijyana ku isoko bakaduha amafaranga, tukishyurira abana amashuri, tukishyura mituweri, tukagaguramo ibindi bikoresho dukeneye tukiteza imbere.

Inaha iwacu tugiraga ubucuruzi bwinshi butandukanye hari igihe ducurushije ibishimbo, abandi bagacuruza amasaka, tugacuruza n'ingano, tugacuruza n'uburo. Ducuruzaga ibintu byinshi cane tukabonamo amafaranga gadufashaga kwiteza imbere, tukaguramo ibyokurya tukabaho neza.

Inaha iwacu duhingaga amoko y'ibitoki bitandukanye. Hari ibitoki byitwa inyamunyu, iyo byeze turabiryaga, hari ibitoki byitwa fiya iyo byeze turabitaraga hakavamo imineke tukazirya, tukazijana ku isoko bakaduha amafaranga tukiteza imbere.

Abaturage bahabwa uburyo bwo gutunganyamo ubutaka bwabo, nGo gutera imbuto z'indobanure, bagacukura amaterasi y'indinganire, kugira ngo babone uburyo bwo guhuza ubutaka.

Inaha iwacu mu Rwanda turahingaga tukeza cane cane ubuhinzi bw'ibitunguru. Turabihingaga, iyo byeze tubijanaga mu isoko tukabigurisha bakaduha amafaranga tukaguramo ibyokurya tukiteza imbere.

Inaha iwacu mu Rwanda duhingaga imyumbati. Turayiryaga, iyo yeze tukayijana ku isoko, tujaga no kuyibeteshamo ubugari tukaburya. Iyo twajanye imyumbati ku isoko baduhaga amafaranga tukiteza imbere.

Igiti cy'avoka gitanga umusaruro mwinshi cyane! Kuko iyo zeze uzijyana ku isoko, ukazirya ,ndetse uka ukabasha kwishurira abana amashuri, nawe ugafasha bikagufasha kwikura mu bukene.

Leta y'u Rwanda itwitagaho itwubakiraga amatarasi, ikaduha ibiti byo gutera mu ndinganire kugira ngo zidatemba, tugahingamo imyaka, ireraga cane turayiryaga, tukayijana mu isoko bakaduha amafaranga tukarushaho kwiteza imbere.

Ino aha iwacu duhingaga amoko g'imbuto gatandukanye: duhingaga amapera ,duhingaga amaronji, duhingaga inanasi ,duhingaga n'indimu ,iyo byeze turabiryaga, tubijanaga no ku isoko bakaduha amafaranga tukiteza imbere.

Biba byiza iyo duhinze imyaka tukayitaho tuyifuuhirira. Tukayuhira, tugashiraho ifumbire kugira ngo yongere umusaa ko byongere umusaruro, tuzarusheho kwiteza imbere, kuko iyo usaruye byinshi warahinze neza ujanaga ku isoko ukaguramo ibindi ukeneye.

Mu bihingwa abaturage bifashisha, mu uburyo bwo kurwanya inzara, harimo ibigorigori. Ibigori koko iyo ubihinze uba witeguye ko nta nzara izahura nayo, gushigishamo igikoma, ugasheshamo kawunga, bityo ukabaho nta nzara.

Guhinga biduhaga amafaranga menshi cane. Iyo twagiye guhinga baduhaga amafaranga namba tukaja kwihingira. Iyo twahinze bireraga tukabisarura, tukabijana mu isoko, bakaduha amafaranga akadufasha kwiteza imbere, tugatanga mituweli, tutishurira n'abana amashuri bityo tukarushaho kubaho mu buzima bwiza.

Igihingwa cy'umwumbati ni igihingwa cyiza cane gitangaga umusaruro mwinshi cyane. Iyo zeze turaziryaga tukazijana ku isoko bakaduhamo amafaranga bakazaguramo ibindi byo kurya.

Inaha iwacu duhingaga voka zireraga cane, iyo zeze turaziryaga, tukazijana ku isoko bakaduha amafaranga, tukaguramo ibyo kurya, tugahahira n'bana inkweto zo kujana ku ishuri.

Iyo duhinze amapera, turayaryaga tukayajana ku isoko bakaduha amafaranga tukagaguramo izindi mbuto dukeneye cyangwa tukagaguramo ibyo kurya, tukishurira abana ku ishuri, tugatanga n'amatsinda tukarushaho kwiteza imbere.

Inaha iwacu dukoraga ubuhinzi butandukanye, duhingaga imyumbati turaziryaga iyozeze, tukazijana ku isoko bakaduha amafaranga, tukaguramo ibindi byo kurya bitandukanye bikaturinda indwara, tukarushaho kubaho mu buzima bwiza.

Inaha iwacu ubuhinzi budutezaga imbere cane, duhingaga ibigori iyo byeze turabiryaga, tukabijana ku isoko, tujaga no kubishesha tugashigishashamo igikoma, ntiturware bwaki kubara ko tubaga twariye intungamubiri tukarushaho kubaho neza.

Iyo duhinze ibidodoki tubijyana ku isoko, bakaduha amafaranga, tukaguriramo abana amakayi yo kujyana ku ishuri, tukaguramo nk'ibirayi byo kurya tukarushaho kubaho neza, kuko tuba twakoze ubucuruzi bwo kujya gucuruza ibidodoki.

Iyo ucuruzaga imbuto bitumaga utabura imbuto zo kugaburira abana nawe ukabonamo amafaranga ukaguramo ibyo kurya ,ukishyurira abana amashuri ,ukishyura na mituweli ukarushaho kubaho neza kuko uba ubona amafaranga yo kutangira abana ukanishyura na mituweli.

Mu Rwanda duhingaga amapera，iyo yeze turayaryayaga， tukayajana ku isoko，tukaguramo ibyo kurya， tuguriragamo abana izindi mbuto zitandukanye， ibinyomoro， amapapayi，kugira ngo tubarinde indwara batazagwingira.

Igihingwa c'ibishimbo kiduhaga umusaruro mwinshi cane. Iyo tubijanye ku isoko baduhaga amafaranga tukagaguramo ibindi byo kurya bitandukanye tukiteza imbere dutanga mituweli, iyo twabijanye mu isoko baduha amafaranga, tukishurira abana amashuri.

Inaha iwacu ubuhinzi budutezaga imbere cane, kubera ko iyo duhinze ibitoki tugahinga amashu turabigurishaga, bakaduha amafaranga, bakabyohereza nk'i Kigali bakaduha amafaranga adufasha kwiteza imbere, bityo ab'i Kigali bakabona ibyo kurya natwe tukabona amafaranga tukarushaho kwiteza imbere.

Ubuhinzi bw'inyanya biduha umusaruro mwinshi cyane, bazijyana ku isoko bakaduha amafaranga ba Rwiyemezamirimo baba baje kuzirangura, iyo baduhaye amafaranga tuyatanga mituweli, tukishyurira n'abana ku ishuri, tukabona amafaranga adutunga kurusha uko twari tubayeho tutarayabona, bityo tukabaho neza.

Mu buryo bwo kwikura mu bukene, Leta yashyizeho kororera mu biraro, tukorora urugero: ihene, inkoko, amatungo magufi, ku buryo buri muturage wese agomba korora.

Igihingwa c'insina kivamo umusaruro. Iyo keze igitoki turakirya tukakijanana ku isoko, tukagenda dufata amafaranga tukayakoresha ibindi by'ibanze dukeneye.

Inaha iwacu guhinga bidufitiye akamaro kenshi kuko iyo twahinze tukeza tugasarura tubijanaga ku isoko urugero : nka karoti ,pavuro ,inyanya iyo tuzijanye ku isoko, baduhaga amafaranga tukagaguramo ibindi bikoresho dukeneye tukiteza imbere.

Ubworozi bw'inka butangaga umusaruro mwinshi cyane, tuzijanaga ku isoko tukazigurisha bakaduhamo amafaranga. Kandi iyo tuzoroye turazigaburiraga, zigatanga umusaruro, urugero nk'iyo yabyaye iduhaga amata tukayanywa, tukayajana ku isoko bakaduhamo amafaranga, tugahahamo ibindi bikoresho dukeneye, tukayaguramo n'ibyo kurya.

Inaha iwacu ubuhinzi budufasha kwiteza imbere kuko iyo twahinze urugero tugahinga nk'icyayi turagisaruraga tukacyohereza mu mahanga bakaduha amafaranga tukaguramo ibyo kurya bityo tukabaho neza.

Ino aha iwacu duhingaga ibigori iyo byeze dushiragamo amasaka tuba twahinze tukabijana kubishesha, iyo tubishesheje tubishigishagamo igikoma tukarushaho kunywa igikoma gifite intungamubiri, ku buryo bituma umwana atagwingira kubera aba yabonye indyo yuzuye.

Inaha iwacu dukoraga ubuhinzi butandukanye, duhingaga amasaka, duhingaga ibirayi, duhingaga n'amajeri. Iyo byeze tubijanaga mu isoko, turanabiryaga. Iyo baduhaye amafaranga dutangiragamo abana mituweli, tukabaguriramo n'imbuto kugira ngo tubarinde bwaci, tukabaho neza.

Ubuhinzi buteza imbere umuturage. Harimo nko guhinga igihingwa cya avoka, gitanga umusaruro. Avoka urayirya ukagira ubuzima bwiza. Ushobora kuyigurisha bakaguha amafaranga ukiteza imbere.

Ino aha iwacu tujaga guhinga duhingaga ibijumba, tugahinga ibigori ,duhingaga n'amasaka ,duhingaga n'ibishimbo, iyo byeze turabiryaga ,tukabijana no ku isoko bakaduha amafaranga tukaguramo ibindi bikoresho dukeneye tukabaho neza.

Abanyarwanda twese dushishikarizwa guhinga imbuto y'indobanure, kugira ngo duhuze ubutaka, iyo abantu bahinze mu ndinganire, bahinga imyaka imwe, kugira ngo izaba bazabashe kuyitaho, babone umusaruro utubutse.

Ubworozi butanga umusaruro, urugero nk'inka .Iyo inka yabyaye, iduha amata, ikaduha ifumbire, nk'iyo woroye inka uba uzi neza ko ushobora guhura n'ikibazo, ugahita ugikemura kandi ukabona amafaranga iyo wagurishije amata, ukishyurira abana ku mashuri, ukayabagaburira, ntibabe barwara bwaci, bityo rero tugomba kwiteza imbere tugura inka.

Umusaruro ukomoka mu buhinzi higanjemo: karoti ibitunguru, imiteja ,pavuro, insenda kokobata iyo tuzejeje tubijana ku isoko bakaduha amafaranga.

Igihingwa cy'ibigori ni igihingwa gikunzwe n'abaturage benshi, kuko ibigori iyo wabihinze ubisheshamo igikoma, ukabisheshamo kawunga, ukabijyana no ku isoko ukabiryamo impungure ,bityo ukagira ubuzima bwiza kuko uba warahinze igihingwa gikunzwe n'abantu benshi .

Intaha iwacu dukoraga ubuhinzi butandukanye, duhingaga ibitunguru iyo byeze turabiryaga, duhingaga na tungurusumu iyo zeze tuzijanaga ku isoko bakaduha amafaranga tukishuriramo abana ishuri, tukubakamo n'amazu yo kubamo, tukabaho neza.

Inaha iwacu tugiraga ubucuruzi butandukanye. Ducuruzaga ibijumba, ducuruzaga urusenda, ducuruzaga ibitunguru, ducuruzaga amavoka. Iyo baduhaye amafaranga tuguragamo ibindi byo kurya, tuguragamo ibishimbo, tukaguramo n'imboga nyarwatsi kugira ngo tubone indyo yuzuye tutazarwara bwaci.

Ubuhinzi budufitiye akamaro kanini cane, kuko iyo duhinze tubonaga ibyokurya, tukanabijana ku isoko, bakaduha amafaranga tukaguramo imbuto yo guhinga ibindi, bityo tukarushaho kubaho mu buzima bwiza.

Iyo duhinze imyembe turushaho kwiteza imbere, kuko iyo yeze imwe turayirya ikaturinda indwara, izindi tukazijyana ku isoko tukabonamo amafaranga, tugatanga mituweli.

Igihingwa gitanga umusaruro, igihingwa cy'ibirayi igihingwa gitanga umusaruro kuko bifasha abaturage kwikura mu bukene, baba barahinze ibirayi bakajana ku isoko, bagakuraho ibyo kurya, bityo umuturage akarushaho kwiteza imbere.

Iyo twejeje ibirayi tubijanaga ku isoko, tukabonamo amafaranga tugatanga mituweli, tukishurira abana ku ishuri bityo tukarushaho kugira ubuzima bwiza kandi tukabona amafunguro bitatugoye kuko tubirya.

Iyo ufite uruganda rw'akawunga cyangwa rutunganya umuceri bitumaga ubona amafaranga kuko iyo wabicuruje baguhaga amafaranga ukaguramo ibindi bikoresho byo gusya nka hingini, ukaguramo nk'udufuka two gushiramo kawunga ,ukiteza imbere utanga mituweli ukishurira n'abana amashuri.

Iyo duhinze amashu turayaryaga, tukayajana ku isoko, iyo tuyajanye ku isoko bakaduha amafaranga tuvunjishamo ibindi tukagura ibyo tutari dufite, bityo ntitubashe kwicwa n'inzara.

Iyo duhinze amashaza tuyajyanaga ku isoko, tukayarya, tukakuramo imbuto tuzongera tugahinga, iyo yeze twikura mu bukene dutanga mituweli.

Guhinga bidufasha kwiteza imbere kuko iyo duhinze tubonamo ibyo kurya, twakuramo imyaka tukajana mu isoko, bakaduha amafaranga, tugatanga mitiweli, tukishyurira abana ku ishuri, bityo guhinga ni ingirakamaro cyane.

Inaha muri Musanze duhingaga ibirayi bireraga cane. Iyo twahinze dushaka abakozi bo kuja kubikura. Turabiryaga, iyo byeze tubijanaga ku isoko bakaduha amafaranga. N'abakozi turabahembaga, iyo tumaze kubahemba, bayajanaga kuyaguramo ibindi bikoresho bakeneye bakarushaho kubaho neza, natwe tukiteza imbere.

Inaha iwacu duhinga ibigori, iyo byeze turabirya tubijyanana ku isoko, bakaduha amafaranga iyo baduhaye amafaranga tuyatangiragaabana mu mashuri tukayaguramo inkweto zo kwambara, tukayaguramo ibindi bikoresho dukeneye byo mu rugo, tukaguramo n'ibyokurya, bityo tukiteza imbere dutanga na mituweri.

Iyo wita ku myaka wateye, umusaruro uriyongera urugero nko kuhira ibirayi, gushiraho itaka irya mbere n'irya kabiri no gutera umuti byongera umusaruro, bityo ukarushaho kwiteza imbere.

Inaha iwacu duhingaga ingano turazisaruraga iyo zeze turaziryaga, tukazijana ku isoko ukazigurisha bakaduha amafaranga tugatanga mituweli, tukishuriramo abana ishuri, tukarushaho kubaho neza tuzishigishagamo n'igi...

Iyo uri umuhinzi mwiza wabigize umwuga, ufata umwanya wo kujya gusura imyaka wahinze, urugero nko gusura ibigori bituma umenya ibirwaye ukabikuramo, bigaha umwanya bya bindi bitarwaye bigakura neza, kubera ko uba wakuyemo ibigori byarwaye bigaha umwanya ibindi bigakura neza.

Igihingwa cy'umuceri kiduha umusaruro mwinshi cyane, iyo tuwejeje turawurya tukawujyana ku isoko bakaduha amafaranga, tugatanga mituweli, tukaguramo ni ibindi byo kurya dukeneye, tukishyurira n'abana ishuri tukarushaho kwikura mu bukene.

Igihingwa cya Soya gituma tuja tubona igikoma, tukayigurisha tukabona amafaranga, tukarushaho kwiteza imbere kuko tuba twarayihinze tuyejeje, kandi tugahaga n'igikoma tugasagurira n'isoko.

Mu buryo gakondo bwo guhinga, umuntu we akorera ahantu ashaka gutera imbuto, ugahinga ugashiramo ifumbire. Iyo ushizemo imbuto, urwo rubuto rurera rugakura neza kuko uba wararuteguriye buryo ki rugomba kubaho mu...mu...

Inaha iwacu duhingaga amajeri iyo geze turagaryaga, tukagasarura, tukagajyanana ku isoko bakaduha amafaranga tukaguranamo inkweto zo kwambara tukaguramo n'imyenda yo kwambara tukaja mu bandi dusa neza.

Iyo twahinze tukeza tugasarura imyaka yacu tuyikoreraga isuku, turayigosoraga, tukayijana ku isoko, bakaduha amafaranga, tukaguramo ibindi byo ku kurya, kubera y'uko tubaga twejeje byinshi tukaryamo tugasagurira n'isoko.

Inaha iwacu dukoraga ubuhinzi butandukanye duhingaga ibishimbo, duhingaga amasaka, duhingaga majeri, duhingaga soya, iyo byeze tubijanaga ku isoko bakaduha amafaranga tukiteza...

Uruyuzi ni igihingwa gitanga umusaruro iyo twahinze inzuzi, zeraho ibihaza turabiryaga tukabijana ku isoko bakaduha amafaranga, tukaguramo ibindi bikoresho dukeneye. Tukaguramo ibyokurya bityo tukarushaho kubaho mu buzima bwiza.

Inahiwacu ubuhinzi budufitiye akamaro kenshi cyane. Kuko iyo twahinze tusarura urugero nk'ikawa na mba soyaba iyo twazihinze tuzijyanaga ku isoko bakaduha amafaranga tukaguramo ibindi byo kurya dukeneye.

Inaha iwacu turahingaga bikera, iyo duhinze inzuzi dukuragaho ibihaza tukabijana ku isoko, tukabirya, iyo twabijanye ku isoko bakaduha amafaranga, dutangaga mitiweri, tukagura amakaye y'abana, tukaguramo n'ibindi byinshi dukeneye.

Inaha iwacu duhingaga ibihingwa bitandukanye. Duhingaga ibishimbo, duhingaga n'amasaka, duhingaga n'ibigori. Iyo byeze turabiryaga tubijanaga no ku isoko bakaduha amafaranga tukaguramo ibindi dukeneye, urugero nk'ibikoresho byo mu rugo.

Umuturage mu kwiteza imbere ahinga ibihingwa bimufasha kubona amafaranga; agahinga soya ,agahinga ubunyobwa bityo iyo yabonye amafaranga ajana ku isoko akabonamo amafaranga amutunga.

Inaha iwacu mu rwanda duhingaga ibihwagari bikaduha umusaruro ,tubijyanaga ku isoko bakaduha amafaranga tukaguramo ibindi byorya tukiteza imbere tugatanga mituweri, tukishyurira abana amashuri, tukaguramo n'amakayi tukarushaho kubaho mu buzima bwiza.

Inaha iwacu duhingaga ibirayi iyo byeze turabiryaga tukabijana ku isoko, bakaduha amafaranga tukaguramo ibindi byokurya bitandukanye, tukiteza imbere dutanga mituweri kuko tubaga twabisaruye byareze ari byinshi.

Mu Rwanda duhingaga ibihingwa bitandukanye harimo ingano. Iyo zeze tuzishigishagamo igikoma, tu ukazijana ku isoko bakaduha amafaranga tukaguramo izindi mbuto zo gutera, ahasigaye tukayajana ku isoko tukaguriramo abana imyenda yo kwambara.

Ino aha iwacu duhingaga ingano, iyo zeze tuzijanaga kuzishesha bakazitekamo umutsima, tukazishigishamo n'igikoma, tuzijanaga no ku isoko, bakaduha amafaranga tukaguramo ibindi byo kurya dukeneye, tukiteza imbere dutanga amatsinda. Iyo tuyafashe tuguragamo nk'inka ikadufasha kuduha ifumbire, tukabaho mu buzima bwiza.

Ubuhinzi bw'ibihwagari biduha umusaruro kuko iyo wahinze ibihwagari ugemura ukagemurira inganda zikabitunganyamo amavuta aya dutekesha, kandi ibihwagari hari n'ubwo ujya uteka imboga ukajya ukajya uzishira ushiramo ibihwagari bityo bikaryosha imboga. Ubuhinzi bw'ibihwagari ni bwiza cyane.

Ino aha ubuhinzi budufasha kwikura mu bukene iyo twahinze ingano zirera, twahinga amasaka akera, iyo yeze tuyajyana ku isoko bakaduha amafaranga tugatanga mituweli, tukaguramo inka zidufasha kubona amata bityo tukiteza imbere.

Ino aha iwacu dukoraga ubuhinzi bureraga cane, duhingaga ibishimbo iyo byeze turabiryaga, tukabijana ku isoko bakaduha amafaranga tukaguramo izindi mbuto zitandukanye urugero nk'ibirayi, tuguragamo n'ibigori tugahinga bityo tukiheza tukihaza mu bihingwa.

Inaha iwacu dukora ubuhinzi tugahinga ibihaza iyo byeze turabiryaga tukabijana ku soko bakaduha amafaranga tukaguriramo abana amakayi ayo kujana ku ishuri bityo tukabaho neza.

Igihingwa cy'umuceri ni igihingwa gikunzwe n'abantu benshi ,kubera ko iri mu bitera imbaraga bityo rero iyo ufite umuceri haba umwana, haba umukuru, arawurya akumva arakomeye kandi bigatuma umuntu agira imbaraga.

Umusaruro ukomoka mu guhinga ubunyobwa, turabuhingaga tukaburya, tukabujana ku isoko bakaduha amafaranga, iyo baduhaye amafaranga twishuriraga abana amashuri, tugatanga mituweri, tukiteza imbere tukaguramo n'amatungo adufasha kubona ifumbire, bityo tukarushaho kuba mu buzima bwiza.

Inaha iwacu turahingaga bikera iyo duhinze ibihwagari turabigurishaga bakaduha amafaranga bakaja kubikoramo amavuta yo guteka n'ayo kwisiga bityo bikarushaho kuduteza imbere kubera tubaga twahinze ibihwagari kandi turanabiryaga , tubisheshagamo ifu tukayishira mu mboga.

Mu buryo bwo kwiteza imbere abaturage bibumbira mu makoperative, bakubaka inzu yo gukusanyirizamo ibihingwa basaruye. Bityo iyo batubuye ibigori bakuramo amafaranga, kuko abantu benshi baza baje kugura imbuto baba baratubuye.

Igihingwa citwa ingano, igihingwa gitanga umusaruro kuko iyo wagihinze uba witeguye gukuramo umusaruro ukomoka ku buhinzi. Ugujana ku isoko uguramo ibindi byo kurya kuko uba warejeje bituma ubona amafaranga kandi ukabaho neza, ukanwamo n'igikoma.

Umusaruro ukomoka ku buhinzi, urugero nk'ibishyimbo, iyo twejeje ibishyimbo tubijana ku isoko iyo tubijanyeyo tukabona amafaranga tukaguramo ibindi twari dukeneye bityo tukarushaho kwiteza imbere.

Iyo umuturage yejeje imyaka ayikorera isuku harimo nko kuyigosora, kugira ngo ayijane ku isoko isukuye. guhinga ibisusa bakabiryamo imboga, iyo wariye imboga ugira ubuzima bwiza, ukirinda indwara zo kutabona indyo yuzuye.

Iyo tworoye inka ikabyara tugakama amata turayanywaga, tukayajana ku isoko bakaduha amafaranga, tukaguramo ibyo kurya, tugatanga na mituweri, tukishurira n'abana ku ishuri, bityo bakarushaho kwiteza imbere.

Ubworozi bw'ingurube buduhaga umusaruro mwinshi cyane kuko buduhaga ifumbire ryo kuteresha imyaka umusaruro ukiyongera, tuzijanaga no ku isoko bakaduha amafaranga bagatanga mituweli bakishurira n'abana ku ishuri bityo tukabaho neza.

Mu rugo iwacu twororaga imbwa kugira ngo twirinde abajura, iyo mu rugo harimo imbwa ntago umujura apfaga kuza , maze tugomba kuyikingiza kugira ngo itazagira umuntu iruma ikamutera ubundi burwayi. Duhamagaraga veterineri akaza akayitera inshinge .

Biba byiza iyo ukoresha abakozi bambaye inifomo cyangwa ukigisha abanyeshuri bambaye iniforomo ,bituma mwese mwisanzuranaho mukumva ko muri ku kigero kimwe, bityo ntihagiremo gutinyana hagati y'abanyeshuri n'abarimu bakisanzuraranaho bagakurikiza amabwiriza bahawe n'umuyobozi wabo.

Iyo woroye itungo biba bisaba ngo uhorane na nimero za veterineri ku buryo iyo ubonye itungo ryawe ryarwaye uhamagara veterineri akaza akarikuvurira, kuko iyo utarivuje rishobora gupfa ugahomba kandi byagufashaga mu kubona ifumbire.

Iyo ushaka kugira ngo ubworozi bw'inka butange umusaruro, iyo yarwaye uyishakiraga veterineri ukayitera urushinge, akayiha imiti, ikarushaho gukura neza ikabyara akanyana, ikaguha amata, tukayijana no ku isoko ikaduha amafaranga, tugahahamo ibyo kurya.

Iyo dufite urwuri rw'inka ruduhaga amata tukayanywa, tukajana no ku isoko bakaduha amafaranga, tukaguramo ibyo kurya, tugatanga mituweri, tugatangira abana ku ishuri, tukiteza imbere.

Mu buzima tubamo duhura n'indwara nk'iyo haje indwara nk'ibyorezo nka ebora, koronavirusi na mabage, kubera ko tuba dufite abaforomo, batwitaho tukabasha gukira bityo umuturage ntiyicwe n'icyo cyorezo.

Naho ubworozi bw'inka butangaga umusaruro mwinshi. Cane cane uduhahaga ifumbire ryo kugurisha n'iryo guhingisha, ngo bikongera umusaruro tukajana amata ku isoko, tukagaguramo ibindi bikoresho dukeneye byo mu rugo.

Inaha iwacu tugiraga ubworozi butandukanye hari abororaraga ingurube , hari abororaga inka , iyo ngurube iyo yabyaye iduhaga ibyana by'ingurube tukabijana ku isoko bakaduha amafaranga dushiragamo n'ibyatsi ikaduha ifumbire tukarifumbiza mu murima umusaruro ukiyongera tukarushaho kwiteza imbere.

Inaha iwacu dukora ubworozi bw'ingurube, iyo twazoroye tubonagamo ifumbire tukarijana mu murima, tugahingisha imyaka, tukazijana no ku isoko, bakaduha amafaranga, tukaguramo n'ibyo kurya, tukiteza imbere dutanga mituweri, tugahahiramo n'abana ibyo kurya.

Mu buryo bwo gutunga itungo ryokorora ugomba korora inka ariko bayikingiye kugira ba zirinde indwara ziza z'ibyorezo ukanayitera amaherena, bityo veterineri ayikingiye bituma zitarwaragurika.

Mu bworozi butanga umusaruro bugufi, harimo inkoko kuko zitera amagi, amagi tukayagaburira abana n'abantu bakuru bityo bakajyarushaho kugira ubuzima bwiza, ni yo mpamvu bashishikariza abaturage korora amatungo magufi.

Iyo ufite ubumenyi urugero uri nka veterineri, iyo umuturage arwaje itungo araguhamagaraga ukaza ukayivura akaguha amafaranga, ukaja kuyahahamo ibyo kurya ukarushaho kwiteza imbere.

Mu Rwanda tugiraga ubworozi butandukanye twororaraga ingurube iyo zibyaye ibyana turabigurishaga bakaduha amafaranga tukaguramo imbuto zo guhinga iyo byeze havagamo ibyo kurya tukiteza imbere dutanga mituweli.

Mu nyamaswa ziba mu ishamba ziganjemo kuguruka habamo inyoni, inuma, ibikona inuma bagakurura abantu.

Inaha iwacu tugiraga amoko g'inyamaswa gatandukanye tugiraga inkende, kugiraga intare, tugiraga udusumbashamba, tugiraga n'utunyamasyo, tugiraga n'inkende bamukerarugendo iyo baje kuzisura baduhaga amadovize adufashaga kwikura mu bukene Leta ikatuguriramo inka tukiteza imbere.

Inaha mu Rwanda tugiraga amoko g'inyamaswa gatandukanye tugiragamo imvubu, tugiragamo ingagi, tugiragamo inkende, tugiragamo dusumbashamba. Iyo ba mukerarugendo baje kuzireba badusigiraga amadovize Leta ikatuguriramo inka ikoroza abaturage batishoboye tukarushaho kwiteza imbere tubaho mu buzima bwiza.

Igishanga cy'Urugezi, kidufitiye umumaro mwinshi cyane cyane, kuko iyo tworoye mo imisambi ikurura ba mukerarugendo, bakaduha amafaranga, tukishyuriramo baturage mituweli, tukaguramo inka tugaha abaturage batishoboye, kugira ngo babashe kwiteza imbere.

Mu byiza bitatse u Rwanda tubonamo amashamba, amashamba abamo: ingagi, inkende zo zikurura ba mukerarugendo bakaza baje kuzisura. Iyo baje kuzisura, baduha amadovize.

Mu nyamaswa ziba mu mashamba dufitemo uruyongoyongo, imisambi, inyoni ibyo rero bikurura ba mukerarugendo bakaza baje kubisura akabonamo amafaranga binjira mu gihugu agafasha abaturage kwivana mu bukene.

Mu Gwanda tugiraga amoko g'inyoni gatandukanye tugiraga insheshebiri, tugiraga ifundi, tugiraga intasha iyo baje ba mukerarugendo baje kuzisura baduhaga amadovize, bakayaguramo inka bakaziha abaturage batishoboye bakabaho neza kubera ko babaga babakuye mu bukene.

Igihugu gifite ubwiza nyaburanga bukurura ba mukerarugendo. Harimo nk'udusumbashyamba dukurura ba mukerarugendo. Igihugu bityo kikinjiza amadovize ava hanze, yinjira mu Rwanda, bigatuma umuturage ajya ku isonga kubera ko Leta imufata neza.

Mu bwiza bitatse u Rwanda habonekamo udusumbashamba tuba muri pariki y'ibirunga dukurura ba mukerarugendo bashakaza kuzisura bakaduha amafaranga tukiteza imbere.

Mu byiza bitatse u Rwanda dufitemo inkende zitwinjiriza amadovize. Iyo ba mukerarugendo baje kuyisura Leta yinjiza amadovize, bityo agafasha abaturage kuzamuka wifashisha nko kubaha girarinka munyarwanda.

Inaha iwacu tugiraga ibyiza bitatse u Rwanda arimo nk'inyamaswa. Tugiragamo udusumbashamba, tugiragamo n'ingagi, tugiragamo n'inkende. Iyo ba mukerarugendo baje kuzisura badusigiraga amadovize Leta ikatuguriramo inka, ikatworoza kugira ngo twivane mu bukene.

Inaha iwacu mu Rwanda tugiraga amoko g'inyoni gatandukanye， tugiragamo intasha， tukagiramo inshensheberi， zibaga mu rugezi， iyo abazungu baje kuzisura， badusigiraga amadovize，bakayashira muri Leta，bakubaka imihanda，bakubaka n'ibiraro，tukarushaho kubaho mu buzima bwiza.

Inkende zitezaga imbere igihugu cyacu kuko zikururaga ba mukerarugendo bakaza baje kuzireba bakaduha amafaranga, iyo baduhaye amafaranga Leta iguragamo inka, ikoroza abaturage batishoboye bityo nabo bakivana mu bukene, bakabaho neza.

Ino aha iwacu tugiraga amoko g'inyamaswa gatandukanye tugiragamo :ibisimba by'ibiguruka, tugiragamo n'ibisimba bigendaga ,ibyo bisimba biguruka habagamo imisambi ,tugiragamo samusure, tukagiramo n'imisambi.

Mu nyamaswa ziduha amadovize ba mukerarugendo baje kudusura harimo, nk'ingagi, inkende, nk'iyo baje kudusura bakadusigira amafaranga, leta iguriramo inka abaturage, ikagenda yoroza buri muturage utishoboye.